Aha ni ahantu abakerarugendo baruhukira bagafata amafunguro bakaganira ndetse n'abandi bantu bose bifuza gutembera harimo aho amazi ava harimo ibyatsi birimo indabo zitandukanye harimo imikindo n'ibindi n'amazu asize irangi rya orange.

Aha ni ikigo kiri ku muhanda gishinzwe gutanga ubwishingizi bw'ubuzima haba ubw' imitungo yimukanwa n'imitungo itimukanwa kiri mu rwanda.

Isoko bacururizamo ibiribwa harimo amakaroti, ibitunguru ndetse n'ibitoki. Aho ni aho abantu bajya kugurira.

Inzu iherereye kimironko ikodeshwa ku kwezi, inzu igeretse rimwe iri isize amarangi arimo umweru ndetse n'ivu ndetse n'umutuku werurutse ndetse yubakishijwe amatafari ya ruriba.